Umuco gakondo turya ibikoresho bigiye bitandukanye bigenda byifashishwa, aho tugira ibiseke ari ibyo byibo, tukagira imbeja aha ngaha turahabona imbeja eshatu zitatse amabara, zifashishwa bashyiramo imyaka.

abasore babiri bahagaze bafite ingabo mu ntoki n'amacumu, imbere yabo harimo uwicaye wambaye imikenyero iri mu mabara y'umweru n'umukara, afite na we icumu mu ntoki. Akikijwe n'abakobwa bicaye, bamwe bambaye imikenyero, abandi bambaye amasengeri n'inshabure, hagati y'aba bakobwa hateretse igisabo.

Itorero ririmo abakobwa bambaye imikenyero y'umweru n'imyitero y'umukara udupira tw'umweru n'amasengeri y'umweru, imbere yabo hari umukobwa wambaye iby'umukara afite indangururamajwi mu ntoki impande yabo kandi haringoma, ndetse hari n'imodoka.

Itorero ririmo abantu benshi harimo abakobwa ndetse n'abahungu, harimo abahungu babiri bari imbere bafite indangururamajwi mu ntoki, hari n'umukobwa wambaye umukenyero w'umutuku, isengeri y'umweru, imbere yabo hari ingoma, hari n'umukaraza urimo kuvuza ingoma, impande yabo hari undi muhungu wambaye ishati y'umweru, ikabutura y'umukara ndetse n'undi wambaye umupira w'umukara urimo uturongongo tw'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru.

Inyubako ya Leta izwi ku iza ku izina rya sitade, aho abantu bicara barimo kureba umupira, aha ngaha harimo intebe z'ubururu zigiye zitondetse ku murongo, muri iki kibuga kandi hasize amarangi y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inzu isize amarangi y'ubururu imbere yaho hari kandagira ukarabe, hari abantu bahagaze mu idirishya, umwe yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, undi yambaye imyenda y'umukara, imbere muri iyi nzu kandi harimo umwana wambaye umupira w'umuhondo, wicaye ku ntebe.

Abantu benshi barimo abagore abagabo ndetse n'abakobwa, bambaye amabaje mu ijosi, bahagaze imbere y'inyubako isize amarangi y'ubururu, amabati y'umutuku yanditseho girubuzima, impande yabo kandi hateye igiti cy'umwembe ndetse hari n'indabo.

Leta ifite inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, aho tubona ahantu hano hari inyubako nini zubatse mu buryo bw'inzu zigeretse, muri iyi nyubako kandi imbere yaho hateye ubusitani bunini burimo ibiti, hafi yaho kandi hari ishyamba rinini.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu, isize amarangi y'umuhondo yubakishije amatafari ahiye, imbere y'iyi nyubako hari ikigega gifata amazi cy'umukara, impande y'iyi nyubako kandi hakikijwe n'ibiti binini.

Benshi bicaye hamwe barimo abana, abagabo, abagore, inkumi, ndetse n'abasore. Bamwe bicaye hasi abandi bicaye mu ntebe mu itente ry'umweru biciwe mu itente hari intebe irimo ymweru idafite umuntu yicaye iriri imbere ndetse imbere y'iyitente kandi hateye ibiti bibiri

lnyubako isize amarangi y'umuhondo ,imbere y'inyubako hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, agenda akwirakwiza umuriro muri izi nzu. lmbere y'aho hepfo mu muhanda kandi harimo abantu bari kugenda ,hari uwambaye iby'umukara ndetse n'uwitwikiye umutaka, n'uwambaye umupira w'ingofero.

U Rwanda rumaze gutera imbere cyane aho usanga hirya no hino hari imihanda ya kaburimbo, aha ngaha mu muhanda wa kaburimbo turabonamo umuntu utwaye moto impande y'umuhanda kandi hateye ibiti byinshi, hari n'ibiti by'amashanyarazi.

U Rwanda rumaze gutera imbere aho usanga mu bice byinshi bitandukanye bafite umuriro w'amashanyara, ahangaha turahabona urugomero rw'umuriro wamashanyarazi hari ibiti byitwa amapoto biriho insinga kandi hari inzu nini isakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo harimo abantu babiri, umwe yambaye jire y'umutuku, n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umweru, inyuma hahagaze undi muhungu urimo kumureba wambaye jire y'umutuku ahagaze mu mu ryango wimodoka y'umweru ashaka kwinjira mu modoka, hafi yabo kandi hari n'indi modoka ubona ko irimo gusohoka muri gare.

U Rwanda rwacu rufite umutekano uhagije, aho usanga inzego z'umutekano nyinshi zikunda kuba zaregereye abaturage. Aha ngaha turabona abantu benshi ubona ko bari mu kiganiro bose bishimye, imbere yabo hahagaze abakobwa ndetse n'abagabo harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu umukobwa yambaye umupira w'umukara ndetse n'undi wambaye ishati y'umukara na bote z'umukara, impande yabo kandi hateye ibiti.

Ubuhinzi bwateye imbere mu Rwanda aho turimo turabona abantu babiri barimo guhinga bamanitse amasuka, harimo uwambaye imyenda ya gisirikare, ga z'umukara mu ntoki, inyuma yaho bari kandi hateye ibiti byinshi.

U Rwanda rumaze gutera imbere aho rugenda rwubaka imihanda ya kaburimbo ahantu henshi ariko mu bice by'ibyaro hari ahataragera kaburimbo hakiri imihanda y'ibitaka, ahangaha turabona ko ari umuhanda w'ibitaka ariko ugiye uharuye neza ku muhanda, ku ruhande rwawo, impande yaho kandi hakikijwe n'ibyatsi.